Gutera umuti, gutera umuti mu buhinzi ni kimwe mu bintu bikenewe cyane kubera ko usanga ibihingwa, bifatwa n'uburwayi butandukanye, ugasanga, udusimba, imibu n'ibindi byose byagiye byangiza imyaka bityo rero ugasanga gutera umutari ikintu cy'ingenzi kubera ko birwanya ibyo byonnyi, umusaruro ukiyongera, amafaranga akaboneka n'ubuhinzi bugatera imbere.

Kuvomera hifashishijwe ibikoresho byo bikoreka mu mugongo byitwa amapombo, ni bimwe mu bintu byiza cyane kuko usanga bifasha ubuhinzi butandukanye nk'umuceri bukorwa mu bishanga urugero nko mu karere ka nyagatagare hagaragaramo ibishanga, mu gishanga kitwa umuvumba usanga hahingwa umuceri mwinshi. Kuvomerera no gutera umuti nimwe mu biwurinda ibyonnyi bityo ugakura neza umusaruro ukabasha kuba mwinshi kandi ukaba mwiza.

Gutera umuti, gutera umuti imboga imboga ndetse n'ibindi bihingwa ni kimwe mu bintu bigomba kwitabwaho cyane kubera ko ibihingwa bitatewe umuti bishobora guhura n'uburwayi butandukanye ugasanga udusimba turabiriye ibyonnyi, inyoni, n'ibindi bityo ugasanga dukwiye gutera umuti kugira ngo umusaruro wacyo wiyongere kandi urusheho kuba mwiza.

Ubworozi bw'amafi. Ubworozi bw'amafu ni imwe mu bikorerwa mu mazi, aho usanga hagomerwa ibyuzi by'amafi, tukoza inzu yo kuyatunganyirizamo no kubikamo ibyo kurya byayo, utuzu twayo n'ibindi bitandukanye, aho usanga ubworozi buteza imbere benshi n'igihugu muri rusange amafaranga akaboneka, tukihaza mu mirire n'ibindi.

Ubworozi bwo mu mazi, bukorerwa mu mazi bw'amafi n'ibindi, kimwe mubikwiye kwitabwaho, turinda amafi, tukayagaburira ibiryo bihwanye n'ibikenewe, byuzuye intungamubiri, tukarobesha imitego yabugenewe, tukirinda kuroba amafi akiri mato cyane, tugahita tuyashakira ibyo kurya n'ibindi, ubusima bwayo bikarushaho kuba bwiza, tukabona ibyo kurya n'umusaruro wayo ukarushaho kwiyongera.

Ubworozi bw'amafi, ubworozi bw'amafi ni kimwe mu bintu bishobora kwitabwaho aho usanga tugira umurama mwiza w'amafi twaje kuyororera mu kabande kandi mu mazi, akagenerwa ibiribwa biyakwiye bituma akora neza kandi akagwira, tukayaroba dukoresheje imitego yabugenewe itangiza abana bayo n'ibindi.

Ubworozi bw'amafi ni kimwe mu bintu biteza imbere igihugu abaturage bandi babikora, aho usanga kurobesha inzitiramibu n'ibindi bikoresho bitandukanye rimwe na rimwe biba bitemewe kuko biroba amafi akauze n' adakoze akangirika gusa ni byiza kwita ku bijyanye n'ubworozi bw'amafi bubungabungwa aho usanga ababukora bishimye bajya mu mazi bagashyiramo imitego itandukanye byaba inzitiramibu n'ubundi buryo.

Ibihingwa bizana amafaranga ibihingwa ngengabukungu ni bimwe mu bihingwa bikwiye kwitabwaho nk'icyayi kugira ngo tubashe kwinjiza amadovize aturutse i mahanga bityo igihugu cyo cyongere ibyo cyohereza hanze.

ibihingwa ngandura na ngengabukungu ni ingenzi cyane urabona nk'umuceri mu bibaya by'umuvumba za Nyagatare uhingwa, ugasanga uragemurwa undi ukaribwa n'abaturage amafaranga n'ubukungu bukiyongera cyane ndetse ubushomeri bukagabanuka mu rubyiruko n'abakuze.

Ubuhinzi bwaka bumaze gutera imbere mu turere dutandukanye tw'u Rwanda, aho usanga kawa imaze gutera imbere, abaturage bamenye kuyifata neza, bazi kuyironga mu buryo bwiza, bakayishyira mu ndabo, bakarongera ku bitanda byabugenewe, ugasanga umusaruro n'agaciro kayo biriyongereye.

Ibihingwa ngengabukungu nk'icyayi ni bimwe mu bitunze abantu benshi, abo n'abaturage n'abandi batura Rwanda babyuka bajya gusarura icyayi, bafashe ibyo bita urutete bakikoreramo icyayi kugira ngo gitora umwuka kidashya, ubundi ibitabo basoromeyemo bakabishyira hejuru, bakajyana gupimisha kugira babashe kumenya ibiro byavuyemo, babone uko babarirwa amafaranga.

Ibihingwa ngenga bukungu nka kawa. Ni ngombwa mu buzima bwacu kubibungabunga kubera ko bituzanira amafaranga, tukagemura hanze y'Igihugu bityo Igihugu kikongera ibyambukiranya imipaka biva mu gihugu bijya hanze. Tukabasha kongera ubuhahirane n'ibindi bihugu. Ubuzima bw'abaturage bukaba bwiza tukabona akazi n'amafaranga ibintu bikagenda neza.

Ibihingwa ngengabukungu nk'icyayi, ni kimwe mu biteza imbere igihugu, byoherezwa hanze bikazana amadovize, aho dusanga bihatanga akazi ku baturage benshi, inganda zigakora tukabona umusaruro uhagije, ubukungu bw'igihugu bugatera imbere, abaturage bakabona akazi, ubushomeri kakagabanuka, amafaranga n'ibindi bikarushaho kwiyongera.

aibihingwa ngengabukungu ni kimwe mu bintu abantu bakwiye kwitaho cyane kubera ko bizana amafaranga menshi kandi vuba, ugasanga tubigemura mu mahanga bityo amadevize aturutse i mahanga akiyongera, bigasurwa na ba mukerarugendo, Ibihugu by'amahanga tugahahirana kubera ibicuruzwa badukuraho, ingengabukungu ndetse na gandurarugo ugasanga ubuzima bukomeje kuba bwiza kurushaho.

Imiti y'amatungo. Imiti y'amatungo ni ngombwa mu buzima kandi igomba kubungabungwa ibikwa neza, harebwa ko itatakaje ubuziranenge bityo amatungo akabasha kubaho neza ayifata kugira ngo bigende neza mu mubiri.

Imiti y'amatungo. Imiti y'amatungo ni imwe mu bintu nkenerwa bya buri munsi kuko usanga abantu benshi babura amatungo ugasanga bakeneye imiti itandukanye yita ku matungo. Bahitamo akora neza usanga bakeneye imiti ituma ababyibuha ubuzima bwabo bukagenda neza mu buryo bwizewe kandi burinzwe.

Ibiryo n'imiti bigaburirwa amatungo ni kimwe mu bintu by'ingenzi, kuko usanga hari ibituma abasha gukura vuba, gusa bigateza ikibazo cy'uko ari aho usanga ababirya, batabasha kubona intungamubiri zikwiye, kubera ibyo akorwamo, n'imiti y'amatungo, ugasanga umwimerere w'amata n'inyama ziturutseho utari mwiza, ariko ugasanga byongera umusaruro, ndetse n'amafaranga muri rusange.

Imiti n'ibiryo by'amatungo ni bimwe mu bintu bihahwa cyane, ugasanga akenshi birangurwa bikaba bifunze mu mifuka itandukanye, y'ibiro makumyabiri na bitanu n'indi, ugasanga ibyo bifasha amatungo kubaho neza gukura, ugasanga bigenda neza, bigatuma ubuzima bwayo butononekara kandi bikagenda neza, umusaruro ukiyongera ku buryo bwinshi kandi bwuzuye.

Imiti y'amatongo, imiti y'amatungo ni bimwe mu bintu bifashamo ubworozi, aho usanga imwe n'imwe yongera imikurire yayo, ikavura indwara, ikaba ari inkingo n'ibindi bitandukanye byose bikaba ari ngombwa kugira ngo ubworotsi bugende neza kandi butange umusaruro.

Imiti y'inyamaswa, imiti y'inyamaswa ni kimwe mu bintu tugomba kugura kandi tugaha kugirango ngo tubashe kubaho neza kugira ubuzima bwacu bubashe kwitabwaho mu buzima bwa buri munsi, tuzitera inkingo, tuzigaburira uko bikwiye tukazivura kandi tukazikingira bityo ubworozi bwacu bugakorwa neza mu buryo buteye imbere kandi bwizewe, umusaruro amafaranga n'imirimo bikiyongera mu gihugu.

Ubuhinzi no gutunganya ahahingwa ni bimwe mu by'umuhinzi mwiza abanza gukurikiza, akabanza akarima nyuma akaza guhinga ku buryo usanga iyo uhinze ahantu hari hasa n'aharaye birushaho kuba byiza, ugasanga ubukungu buriyongereye umusaruro ukaboneka ahakera kandi ubutaka bukaba bwaritaweho neza, wirinda gusubizamo buri munsi ahubwo uka hahinga hari umushike.

Ubworozi bw'inka, ubworozi bw'inka ni ubworozi butanga umukamo mwinshi, aho usanga hari inka ishobora gukamwa ritiro nyinshi cyane, zikagusanga ni inka za kizungu, za kijyambere, uwazoroye ugasanga ni umuntu ubasha kubika amafaranga menshi, ku bw'uko umusaruro w'amata wiyongereye, inyama n'ibindi.

Ubuhinzi, ubuhinzi ni kimwe mu bintu biteza imbere abantu aho usanga abaturage benshi b'abaturarwanda bahinga imigozi itandukanye y'ibijumba bakayihinga, bakayitera nyuma y'igihe runaka cy'amezi atanu cyangwa se atandatu bikera ibijumba bigatunga abaturage igihugu kikagabanya ibyo cyohereza hanze, igihugu kikongera ibyo cyohereza hanze kikagabanya ubushomeri n'ibindi.

Ubuhinzi bw'amashuri ni kimwe mu bintu bikenewe cyane mu gihugu cy'u Rwanda kuko amashu ni kimwe mu bihingwa bikenerwa n'Abanyarwanda benshi. Aratubuka kandi akera vuba mu gihe kitarambiranye. Ni byiza ari uko akorerwa hakitabwaho bityo akaba manini kurushaho.

Ubworozi bw'amatungo ni kimwe mu bintu bigize ubukungu bw'igihugu, aho usanga ubworozi bw'inka za kijyambere nk'inka z'injerisi, usanga dufite inka nziza z'amoko atandukanye, ni nziza ku buzima bwacu kuko ziduha umukamo, tukabona inyama, tukagwiza umusaruro ukomoka ku matungo, bityo tukarwanya imirire mibi na bwake.

Ubworozi. Ubworozi ni' urwego rukwiye kwitabwaho cyane, cyane cyane muri afurika, kuko ariho bigikennye kandi bitaratera imbere, tukabasha kubona umukamo uturutse ku mata, umusaruro w'inyama ukiyongera, amatungo magufi n'inkoko, inkwavu n'ibindi bikorwa ku bwinshi kugira ngo tubashe kwihaza turwanye imirire mibi, turwanye bwaki, n'ibindi bitandukanye bibasha kugaragara muri Afurika.

Ubuhinzi bworozi, ubuhinzi bworozi ni ahantu dutwara ibyo kurya, ugasanga tujya mu mirima tugahinga bityo iterambere rikiyongera, igihugu n'abaturage bakabasha kubona ibyo kurya, tukifashisha bimwe mu binyabiziga tudakeneye ibihambaye nk'amagare, dutwara umusaruro wacu bityo tukawugeza aho ujya utangiritse mu buryo bworoshye.

Ubuhinzi bworozi ni hamwe mu bantu hategurirwa imbuto zitandukanye imbuto, imboga n'ibindi bitandukanye aho usanga bifumbirwa ndetse hagakurwamo ingemwe zijya guterwa ahantu hatandukanye, aho usanga ababihuguriwe baza kubishikariza kandi bakanabihugurira abaturage, ubuyobozi n'ibindi nabo bagaterana ndetse bakiga ukuntu umusaruro w'ibiti n'ibikomoka ku bimera wakwiyongera.

Ubuhinzi bukorwa ahantu hatandukanye nko mu kibaya, ku misozi n'ahandi usanga ibihingwa bitandukanye nk'imbuto, imboga n'ibindi byose bitandukanye. Imboga zitandukanye nk'imbwiza zitandukanye ibyo rero biteza imbere abaturage bikongera imirire.

Ibimera, ibihingwa ni kimwe mu bintu dukenera buri munsi, kubera ko ibimera niryo bidutunze biduha ubuzima tukabasha...

Ubuhunikero n'ibihingwa ni kimwe mu bintu bikwiye kwitabwaho kuko niyo soko y'ubuzima bwacu, aho usanga iyo ubuhinzi bwakozwe neza, bukitabwaho, hakaba buke butuma imyaka ibikwa neza kandi ubuhinzi bukorwa ku bwinshi ndetse ku buryo buhagije byongera ubuzima bwiza ku baturage b'igihugu n'isi muri rusange kandi ibibazo n'amafaranga.

Ibihingwa n'ibiribwa, ibihingwa n'ibiribwa ni bimwe mu bintu bikenewe n'ikiremwa muntu ndetse n'inyamaswa kugira ngo ibashe kubaho, rero usanga tujya iyo tugiye ku masoko tugura imbuto zitandukanye nka pome, karoti, tukagura ibitandukanye nk'ibirayi, tukagura ibitandukanye nk'intoryi, urusenda, tukagura puwavuro n'ibindi bitandukanye bituma dukenera mu buzima bwa buri munsi.

Ubuhinzi uhinga ibintui bitandukanye n'ibitunguru ni kimwe mu bibasha kuzana amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse, aho usanga ahantu ushobora kuhinga ibitunguru , bigatanga amafaranga n'umusaruro mwiza kuri bannyirabyo bityo ugasanga ubukungu ku babihinzi buriyongereye kandi yu buje mu buryo bworoshye.

Ubuhinzi cyane cyane ubw'ibigori bumwe mu bukwiye kubagarwa, bukitabwaho bukarandurwa ibyatsi, kugira ngo bubashe gukura neza. Iyo ibyo bidakozwe usanga ikigori byanze gukora ntigiheke ikigori kizima, ugasanga ahubwo umusaruro urarumbye ndetse ntibinagiriye akamaro ubikoze.

Ibihingwa bitandukanye nk'ibigori ni bimwe mu bintu nkenerwa bya buri munsi usanga bitera imbaraga, usanga aho ibihingwa bitangirika vuba, ugasanga ari ibihingwa bishobora kubikwa mu buryo bworoshye, ikindi ni byiza kubihinga utabivanga n'indi myaka ukabibagara wareba ugasanga ari byiza ko ubireka bikera neza bikuma bikigonda bikabona gusarurwa.

Imboga ni kimwe mu biryo bikenewe kubera ko bibarirwa mu ibirinda indwara, ugasanga bifasha ubuzima n'ubwonko gukora neza bigatuma abantu bareba amaso vitamine ikabasha kuboneka n'izindi ntungamubiri zitandukanye. Ni byiza rero kwita ku mboga nk'imbwija aho ubona iyo zikorewe neza zibasha gusa neza kandi zikaba zakongera intungamubiri ku bantu babikeneye.

Amashyamba, amashyamba ni hamwe muho dukora umwuka mwiza duhumeka ahandi dusanga tubakura ibiti ibimera bikagenda neza ubuzima burushaho koroha, kandi bukagenda neza mu buryo butandukanye kuko ni isoko y'ibiti biribwa by'imbuto ziribwa, ni ahantu duhumekera tujya tukaruhuka n'ibindi.

Amashyamba. Amashyamba ni isoko y'umwuka mwiza duhumeka, amashyamba adufasha kubaho neza agasukura ikirere, ntiyonone ibidukikije, bityo ubuzima bw'umuntu bukaba bwiza, ni aho kuba h'inyamaswa, hakurura ba mukeragendo bakazana amadovize bityo abungabungwe yekwangizwa ngo atemwe, ahubwo utemye kimwe atere bibiri, amashyamba ni ingirakamaro ku buzima bwa muntu, bityo tuyiteho abungabungwe.

Amashyamba, amashyamba ni ikintu cyiza kigomba kudufasha mubuzima bwacu bwa buri munsi. Inkomoko y'umwuka mwiza duhumeka, aho usanga amashyamba kimeza n'ibiti by'ibiterano byose biri hamwe, bigatuma isi iguma kuba nziza kurushaho, bigasukura ikirere, ubuzima bukaba bwiza cyane, abakerarugendo bakaza kureba inyamaswa zibamo n'ibindi.

Amashyamba. Amashyamba ni kimwe mu bintu by'ingenzi mu buzima bwacu kubera ko biduha umwuka mwiza duhumeka, n'aho kuba h'inyamaswa, bikurura ba mukerarugendo bituma igihugu ndetse n'isi bisa neza, kubera yuko, niho dukura ibicanwa dushobora gukura imbaho n'ibindi bitandukanye bituma tubaho buzima bwiza kandi dukenera mu buzima bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto n'amatapayi, ugasanga hari imbuto nyinshi zitandukanye, byose ni ibifasha mu iterambere ry'igihugu, aho usanga imbwija, imboga, amashu, ugasanga inyanya n'ibindi byose ni kimwe mu bihingwa bibasha guteza imbere abaturage biteza imbere ubuhinzi bwabo bukihuta mu iterambere n'igihugu muri rusange.

Imbuto, ubuhinzi bw'imbuto ni kimwe mu bintu byitabwaho cyane, aho uasanga imbuto zitandukanye nk'amapapayi iyo yitaweho abasha kwera bihagije, ugasanga hatanze umusaruro mwinshi kandi mwiza utuma abantu bagira ubuzima bwiza, ubukungu n'amafaranga bikaboneka ubuzima bukarushaho kugenda neza.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto. Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto turabukeneye mu buzima bwacu bwa buri gihe, kubera ko usanga zimwe mu mbuto zihenze kandi iyo twazihinze tuzitayeho tubasha kuzibona mu buryo bworoshye, ubuzima bukaba bwiza, tukongera ibirinda indwara, ibitera imbaraga, mu buryo bwiza kandi bwizewe kuko tuba twabyihingiye iwacu, bityo tubibungabunge kugirango ubuzima burusheho kuba bwiza, haba abakuru n'abato babashe kwitabwaho bagire ubuzima bwiza, natwe tubeho neza.

Imbuto nk'amapapayi n'ibindi bitandukanye ni zimwe mu bituma abantu bagira ubuzima bwiza, bikarinda indwara byoza mu gifu, bituma umuntu agira imitekerereze myiza, niyo mpamvu kubyitamo no kubungabunga ari imwe mu ntego za leta y'u Rwanda, aho gahunda ihari ukuvuga ngo buri muturage n'urugo rugire igiti cy'imbuto ziribwa, ugasanga zibungabunga ibidukikije kandi zikongera ubuzima bwiza bw'abaturage.

Ubuhinzi bw'indabyo, indabyo ni kimwe mu bintu bigemurwa hanze bikazana amafaranga mu buryo butandukanye, indabyo zikorwa mu mitako n'ibindi bitandukanye, ni byiza rero kwita ku ndabyo twongera ubworozi bw'inzuki aho usanga zihova mu ndabyo, bikaba byiza kurushaho, zimwe zigakoreshwa mu birori, mu mitako y'ahantu hatandukanye, ubuzima bukarushaho kuba bwiza, kandi isi ikaba ikeye.

Kuvomerera twifashishije imigozi yabugenewe, twifashisha imirasire y'izuba, ni ibintu byiza cyane kubera ko bifasha mu iterambere ry'igihugu, umuturage, cyane cyane imboga n'imbuto nk'amashu n'ibindi, aho ushobora kuvomerera twifashishije imigozi yabugenewe, amashanyarazi n'ibindi.

Kuvomerera ni kimwe mu bimaze gutezwa imbere mu gihugu cy'u Rwanda aho usanga abaturage basigaye bazi kuvomere bakoresheje imipira bagakurura amazi bakajyana ku misozi, bakavomera ibihingwa bitandukanye harimo imbuto, mboga, ugasanga birasa neza mu gihe cy'impeshyi ibyakabaye byitwa n'izuba ugasanga.

Ivomerera, ivomerera ni kimwe mu bintu bikwiye kwitabwaho kandi bigatezwa imbere kugira ngo umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi burusheho kuba mwiza tubashe gukora kuvomerera twororemo inzuki, amafi n'ibindi kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza amatungo abona amazi yo kunywa imyaka ise neza haba mu mvura ndetse no mu zuba tubashe guhinga tudahagaze kugira ngo ubukungu bw'igihugu burusheho kuba bwiza.

Kuvomerera, kuvomera ni kimwe mu bikwiye kwitabwaho mu buhinzi bw'Afurika no ku isi muri rusange kubera ko kuvomerera ni kimwe mu bifasha ibihingwa kubaho neza, cyane cyane Afurika irangwa n'izuba ryinshi ndetse n'inkangu kugirango ngo tubashe kuvomerera. Bityo imyaka ibeho neza ibihingwa byiyongere abatuye Afurika n'isi babashe kubona ibi batunga mu buryo buhagije kandi bunyuze.

Kuvomerera ni imwe nzira kwiye kwitabwaho cyane cyane muri Afurika kubera ko haba izuba igihe kirekire kandi bikaba bituma imyaka ikomeza kubaho neza ikaba itohagiye itishwe n'umwuma, imyaka ikaba mu rwego ruhagije kugirango ibashe gutunga abayikeneye kuko ari benshi kandi ikenega mu buzima bwa buri munsi.

Kuvomerera, kuvomerara ni kimwe mu bikorwa kugira ngo imyaka ibashe kubaho neza, hanyuma mu kabande hagakenerwa kandi hagafukurwa ibyuzi bifata amazi abasha kuvomerera imyaka mu gihe cy'izuba ryinshi kugira ngo umusaruro ubashe kuba mwinshi kandi wiyongere, iki gihugu gitere imbere n'ababikora muri rusange.

Ibibaya n'ibishanga ni hamwe mu hantu ho guhingwa, usanga hahehereyeho mu kabande, hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi, biroshye bikorohereza ivomerera kandi hakaba hahehereye cyane ku buryo usanga hahingwa imyaka cyanecyane mu gihe k'impeshyi, aho usanga imyaka igomba kubaho idahuye n'umwuma cyangwa ngo igwe n'izuba ryinshi.

Ibibaya. Ibibaya ni ahantu haciye bugufi, hareshya kandi ho mu kabande, aho usanga hagaragara ibishanga, inzuzi, ibimera bitandukanye kandi bitohagiye, n'aho kuba h'inyamaswa zitandukanye zo mu mazi, ni ahakorerwa ubuhinzi bworozi cyane cyane mu gihe cy'impeshyi, n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ndetse ugasanga hanakurura ba mukerarugendo, hakinjiriza amafaranga igihugu n'abagituye.

Ibibaya, ibibaye ni aho kuba ha ibimera, ibibaya ni kuba ha inyamaswa, ni isoko y'umwuka mwiza duhumeka, hakorerwa ubuhinzi butandukanye, ubuzima n'amafaranga bikabasha kuboneka, hagatanga akayaga keza kabashaho kuruhukira kandi ugasanga bibasha gutuma iterambere ry'igihugu n'isi biba byiza kurushaho, bigasukura ikirere n'ubundi buryo butandukanye.

Ubuhinzi. Ubuhinzi bukoreye mu bibaya ni ngombwa mu buzima kuko butuma tubasha guhinga ahantu hahereye, tugahinga imbuto n'imboga tugahumbika imbuto zitandukanye , tukabitera ku murongo itandukanye ahantu hato kandi bituma umusaruro uhagije kugira ubuzima bwanyu burusheho kuba bwiza.

Imisozi n'ibibaya, imisozi n'ibibaya ni ahantu dukorera ubuhinzi butandukanye haba ibidukikije n'ibiti n'amashyamba kimeza, imyaka n'ibindi bitandukanye aho usanga ari igicumbi cy'ubuzima bwa muntu umwuka mwiza duhumeka, ni ahantu heza dukora ibyokurya ni ahantu hakwiye kwitaho naburi wese kugira ngo ubuzimarusheho kuba bwiza.

Ubutaka ubutaka ubutaka ni agace gahingwaho ni ahantu dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho usanga hakubiye ibimera, hagaterwa ibimera nk'ibyoku kurya, urutoki n'ibindi bitandukanye dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Amaterasi y'indinganire ni kimwe mu bintu birwanya isuri bicibwa ku musozi n'ahandi hantu hahanamye kugira ngo ubutaka bubashe kwitabwaho budatemba ngo bujye mu kabande bityo ubuso buhingwaho bwiyongere, umusaruro ube mwinshi, ubukene n'ubushomeri bigabanuke kandi biteze imbere ababihingamo ndetse n'ubundi buryo bunyuranye.

ubworozi bw'inkoko ni bumwemu bworozi bwitabwaho cyane, kuko butanga umusaruro w'amagi inyama n'ibindi, ugasanga ubuzima bwa muntu bubasha gutera imbere kandi bukaba bwiza kurushaho, kurwanya imirire mibi n'ibindi byinshi bikenerwa mu buzima bwa buri munsi.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni ikintu kirwanya imirire mibi bikazana amafaranga n'ubukungu mu buryo bwihuse, aho usanga ubworozi bw'inkoko zoroye kijyambere bubasha kugenda neza bigatanga amagi, inyama mu buryo buhagije kandi bworoheje ikibuku n'iterambere bi byihuta.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'inkoko n'ibindi nk'inkwavu usanga ubwo bworozi ari ingenzi cyane kuko usanga bubasha kuduha umusaruro w'amagi, zigaburirwa mu buryo bwiza, zihabwa sondori n'ibindi byose bizifasha gukura neza kandi vuba kugira ngo wa musaruro wiyongere tubashe gutera imbere.

Ubworozi bukorewe mu kiraro ni kimwe mu bintu byiza byitabwaho cyane aho usanga hari abahinzi abahinzi borozi bagiye babigira umwuga ugasanga bafite inka nziza za kizungu ziri ahantu heza amazu yabugenewe zifite amazi ahagije n'ibindi bitandukanye bituma ubuzima bwazo bushaho kuba bwiza n'umusaruro birurutsehokiyongera.

Ubworozi bwororowe mu kiraro kandi bwa kijyambere ni kimwe mu bintu dukwiye kwitaho cyane kubera ko bitwongerera umusaruro amafaranga, ugasanga ubuzima ni bwiza aho usanga amatungo magufi n'amaremare byose bidufasha nk'ingurube n'ibindi bitandukanye, ugasanga ubuzima bumaze kudufasha nk'ingurube aho usanga ibasha koroka vuba kandi igatanga umusaruro w'inyama mu buryo bworoshye.

Ubworozi bwa kijyambere ni bwiza iyo bukozwe neza kuko usanga amatungo asa neza kandi yitaweho akongera inyama, umutungo, amata, ugasanga uwukoze bimuteza imbere kandi akiteza imbere we ubwe n'igihugu ugasanga zimwe mu nka za kijyambere nk'inyambo za Kinyarwanda ugasanga zibasha kwitabwaho zigatanga umukamo uhagije zitabwaho n'umuntu ufite isuku kandi wabihuguriwe ubizi yambaye imyenda yabugenewe nka bote.

Ubwozi bwa kijyambere bw'amatungo magufi ni nya imwe mu hantu h'ingenzi cyane ho kwitabwaho cyane cyane ubworozi bw'ingurube n'ibindi bitandukanye kuko usanga ingurube ari zimwe mu itungo zitanga inyama mu buryo bworoshye, zororoka mu buryo butagoranye zikura vuba kandi zikagwira, ubuzima bikaza bikamugendakera neza.

Ubworozi bwa kijyambere ni umwuga mwiza. Ubworozi bwa kijyambere burimo inkoko, amatungo magufi y'inkoko, imishwi, guturagisha n'ibindi, ni ubuhinzi bwiza cyane, iyo bukozwe bwitaweho, kuko usanga buzanira umusaruro nyir'ukubukora, akororera inkoko nyinshi kandi ahantu hato hatangiza ibidukikije, bityo ugasanga amafaranga n'iterambere bye birihuse. Tubyiteho tububungabunge kandi tubyiteho twongera umusaruro w'igihugu cyacu n'ubuzima bwacu muri rusange.

Ubworozi bw'ingurube ni kimwe mu bintu bitanga umusaruro mwiza kandi vuba, dore ko ingurube zoroka byoroshye zikabasha gutanga inyama nyinshi aho usanga ingurube zimwe usanga zifite inyama nyinshi n'ibinure ugasanga ari bumwe mu bwoko bunyuranye kanditarushya kurya byose bigateza imbere umuturage ndetse n' n'umworozi muri rusange.

Ubworozi bwo mu kiraro, ubworozi bwo ku miraro ni ubworozi bukwiye kwitabwaho cyane kubera ko bituma hitabwa ku bidukikije ntibyangirike kandi amatungo agakura neza, tukabasha kuyitaho ndetse tunayagenera ibyo arya mu buryo bwizewe bityo akabasha gufatwa neza, umukamu ukiyongera, inyama n'ibindi, bityo ubuzima bukagenda neza bwayo ndetse n'ubw'abantu muri rusange.

Ubworozi bwa kijyambere bw'amatungo magufi nk'inkoko, ni kimwe mu bintu bifasha ubuzima bwiza bw'abaturage, aho usanga umusaruro w'inyama wiyongera, amagi akiyongera, imirire mibi na bwacye mu bana bikagabanuka, ku buryo usanga ari gahunda Leta ishishikariza buri rugo, byibura aho rwakabaye rufite inkoko ebyiri, ku buryo amagi, umusaruro w'amagi n'ibindi ubasha kuboneka mu buryo bwiza kandi bworoshye.

Ubworozi bwa kijyambere, ubworozi bwa kijyambere ni kimwe mu bintu bigomba kwitabwaho kugira umusaruro wiyongere kubera ko usanga iyo amatungo yarowe kijyambere kandi akororerwa hamwe usanga abasha kwitabwaho byoroshye agahabwa ibikenewe byose umusaruro ukiyongera ubukungu bukazamo amafaranga.

Ubuhinzi bworozi burimo ubworozi bw'amatungo magufiya, usanga ari kimwe mu bintu bifasha abaturage mu iterambere harimo amagi, bikarwanya imirire mibi kandi iyo bukozwe neza hashyirwamo urumuri, inkoko z'inzungu zikororwa harimo izizwi nka za Koroyiro n'izindi, usanga umusaruro wabaye mwinshi, amagi, inyama n'imirire mibi igahunga.

Ubworozi bw'amatungo burimo inka za kijyambere n'iza kizungu ni ingenzi mu buzima bwacu kuko biduha umukamo w'amata bikaduha kubasha kubona inyama n'ibikomoka ku matungo mu buryo bworoshye kandi bwiza usanga rero ari byiza kuzitaho kandi mu buryo buta.

Ubworozi bwa kijyambere bororeye mu kiraro nk'inka n'umukozi ubishoboye kandi ufite isuku, ni bimwe mu bitanga umusaruro ugasanga usa neza, yitaweho iba ahantu heza, bityo ugasanga umusaruro wo gukora ubworozi agize umusaruro uhagije kandi iterambere ririhuse n'igihugu muri rusange.

Imbuto n'imboga n'ibindi bihingwa bitandukanye nk'ibigori bitera imbaraga n'ibindi bitandukanye ni byiza kubanza kubyitaho tukabyanika umusaruro ukaba mwiza tukabihungura neza tukabitobura bibyara imbuto nziza kandi yizewe kugirango ngo tubashe kubihinga kandi bimere neza nidukuramo n'iribwa bifite ubuziranenge kuko byabonye izuba rihagije.

Imashini ipima ubwume n'ubuhehere bw'imyaka nk'ibigori ni kimwe mu bikoresho bikwiye kwifashishwa kugira ngo tumenye ko umusaruro wacu weze kandi wumye neza bityo tukure kubwandikira ufite ubuziranenge kandi ubashe kugirira akamaro abawufite ndetse ubashe kubikwa neza mu buryo butangirika.

Ubuhinzi, ubuhinzi ni ngombwa cyane no gutoranya imbuto, ubutubuzi bw'imbuto n'ubuhinzi ni ngombwa mu buzima bwacu, kuko bituma tubasha gutoranya imbuto nziza, kandi yera neza mu gihe gito kandi cyiza, ugasanga ari ngombwa ko tuyijonjora kandi tukayitoranya neza, kugira ngo nidutera, dutere ibifite agaciro bizabashe kuduha umusaruro ukwiye, kandi tuzamure ubukungu bwacu n'iterambere.

Ubuhinzi ubuhinzi no kwita kubwanikiro n'ibintu by'ingenzi cyane cyane cyane guhinga ibinyampeke nk'ingano, ibigori n'ibindi aho usanga iyo bihinzwe ndetse bikitabwaho bikitegurirwa ubwandikira bwiza, bifashamu mibereho ya buri munsi no kutangirika k'umusaruro bityo ugasanga bigera ku isoko bitangiritse kandi bi gifite ubuziranenge, ugasanga biteza imbere ubikora n'igihugu muri rusange kikabona ibitunga abaturage.

Ubuvuzi bw'amatungo ni ikintu akeneye mu buzima bwa buri munsi kubera ko amatungo nayo agira ubuzima n'imibereho abasha kurwara nk'ubuzima bw'umuntu, bityo rero ugasanga akeneye imiti itandukanye gukingirwa kwitabwa no kuryama mu buzima bwa buri munsi n'abaganga bashoboye kandi babyigiye ndetse ugasanga kubaho banga bu ubuzima bw'inyamaswa mu buzima bwa buri munsi bakazirenga yamamba ziba gukomeza kubaho kandi zitekanye.

Ubuvuzi bw'amatungo ni bumwe mu bwirwa muri kaminuza y'u Rwanda, aho usanga abanyeshuri bajya mu mazu y'ubushakashatsi bakiga kubaga amatungo, bakiga kureba uko yakwitabwaho, bakigamo byinshi bitandukanye bituma ubuzima bw'amatungo burushaho kumera neza, aho usanga abanyeshuri bambara imyenda itandukanye y'akazi bakajya mu mazu.

Inka z'ubworozi, inka z'ubworozi ni zimwe mu zitabwaho, zitabwaho gufatirwa kororwa, zigatera imbere kandi zikabyara umukamo uhagije, aho zishyirwa hamwe zikitabwaho, zigenerwa amazi yo kunywa, zishyirwaho ibirango biziranga nk'amaherena n'ibindi bitandukanye, bizatuma zibasha kwitabwaho hakurikijwe igihe yavukiye, hagapimwa ibiro byayo n'ibindi.

Ubuvuzi bw'amatungo, bumwe mu bituma tubasha gukora ubworozi neza, aho usanga inka zishobora kwitabwaho ukabona zirasa neza cyane, hamwe dushyirwaho amaherena aziranga, zigashyirwaho byinshi cyane, zikavurwa, zigaterwa imiti n'inkingo, zigashakirwa ubwatsi n'ubundi buryo butandukanye bw'inyongeramirire, ugasanga ibi bintu bitezwa imbere cyane no kwiga ibijyanye n'amatungo ndetse n'ubuvuzi bwayo n'imibereho myiza.

Inyamaswa zo ku gasozi, nk'impara n'imparage, isha n'izindi ni zimwe mu zidufitiye akamaro kanini, kuko zikurura ba mukerarugendo, bakazana amadevize, igihugu kikarwanya ubukene n'iterambere rikihuta, kandi n'abakigenda bakiyongera, kuko baba baje gushimishwa n'ibyo binyabuzima.

Inyamaswa zo ku gasozi. Inyamara zo ku gasozi zikwiye kwitabwaho na buri wese, haba iz'inkazi nk'intare y'ingore n'iy'ingabo, inkende, n'ibindi byose bitandukanye, kugirango ubuzima bwazo busheho kuba bwiza, bityo zibashe kubungabungwa zikurure ba mukerarugendo twinjize amadovize iguhugu gitere imbere n'abaturage muri rusange, ubukungu bukomeze kwiyongera.

Inyamaswa zo kugasozi, inyamaswa zo kugasozi ni ingenzi mu buzima bwacu, zituma isi isa neza tukabasha kuyibanamo amahoro, inyamaswa nk'inzovu nini mu ishyamba ugasanga tubona ba mukerarugendo amahembe yazo agahenda, bityo rero tuzirinde ba rushimusi baza kuzitwara no kuzangiza, tuzirindire ubuzima, kandi ubuzima burusheho kuba bwiza kurushaho.

Inyamaswa zo ku gasozi, inyamaswa zo ku gasozi zirimo inkura, impara n'imparage, intare n'ibindi, nimwe mu bikwiye kwitabwaho cyane kubera ubukerarugendo ugasanga amadovize arinjira ari menshi igihugu kigatera imbere, abantu bakishimisha bakajya kwidagadura bazireba n'ubwiza bwazo mu mashyamba aho ziba, harimo indyanyama, indyabyatsi n'izindi zitandukanye, bityo igihugu abagituye n'abanyamahanga bakabasha kubona aho bidagadurira kandi tugatera imbere twese.

Inyamaswa zo ku gasozi, inyamaswa nini zo ku gasozi zirimo impara n'imparage zirimo nyinshi cyane zitandukanye zibasha gutuma dukurura ba mukerarugendo bagasura igihugu cyacu tukabasha kubona amafaranga mu buryo butandukanye haba ayo basiga mu ma hoteli ku ma banki n'ahandi hose hatandukanye bitewe n'izo nyamaswa zibashimisha bakaza kuzireba ku bwinshi bityo igihugu kikabona amafaranga, abashyitsi n'uburyo buryo butandukanye.

Inyamaswa zo mu gasozi zibereye ijisho kuzireba, zimwe z'inkazi ,nk'intare, ingwe, inzovu, imvubu n'izindi ni zimwe bifitiye igihugu akamaro ,aho usanga zikurura ba mukerarugendo, zikazana amafaranga ugasanga ubuzima burushaho kuba bwiza ndetse n'igihugu kigatera imbere.

Inyamaswa zo ku gasozi, inyamaswa zo ku gasozi ink'intare n'ingwe, ni inyamaswa z'inkazi ziba mu ishyamba, zigira amaba y'utubara twinshi, zigira uruhu rw'amabara menshi, aho usanga ari ingome kandi zishobora kukugirira nabi ariko zigashimisha amaso y'abazireba cyane ba mukerarugendo, zikaba zirimo zigenda n'izicika ariko zikwiye kwitabwaho kuko nazo zifitiye akamaro kanini zinjiza amafaranga igihugu binyuze muri ba mukerarugendo n'ibindi.

Inyamaswa zo ku gasozi nk'inyoni z'amabara meza kandi menshi usanga ari bimwe mu byiza nyaburanga u Rwanda rufite aho usanga mu mashyamba kimeza nka Nyungwe n'andi atandukanye haboneka inyoni nziza z'amoko menshi, ugasanga bishimisha ababireba ndetse bikinjiza amafaranga menshi.

Inyamaswa zo ku gasozi nk'ibitera, inkende n'ibindi ni bimwe mu bishimisha ubibona n'amaso kandi bikabasha kubana n'abaturage ku buryo bikuru ba mukerarugendo bakazana amadovize n'amafaranga ku buryo biteza imbere urusobe rw'ibinyabuzima, ugasanga ari kimwe mu bintu bikwiye kubungabungwa kuko ari ingenzi mu buzima bwacu cyabonwa mu muhanda.

Inyamanswa zo ku gasozi nk'iziri mu bwoko bw'ibitera, inguge ndetse n'inkende, ni zimwe mu zibasha kudatinya abantu zikajya ahagaragara zikajya hafi y'amazu yabo, ugasanga zikurura abazireba zikabashimisha nubwo zijya zona ariko ugasanga zizana amafaranga kuko ibyo ni bininyabuzima bikwiye kwitabwaho kandi bikabugwabungwa.